Umukobwa arimo kwambuka umuhanda muri zebura korosingi， ni ahagenewe abanyamaguru，ndetse na moto irimo kuharenga，afite kwambuka neza kuko ni uburenganzira bw'umunyamaguru hano， ariko nawe akirinda kujya kuri terefone，kuko iyo ugiye kuri terefone ushobora guteza abantu ibibazo ukabahagarika umwanya udakwiriye.

Ubwato bwa polisi buri mu kiyaga cya kivu. Buri mu gikorwa cyo gushakisha abantu baba barohamye mu mazi. Bino byuma bafite nibyo bifashishaga bakabikoza mu mazi, bakareba aho umuntu aherereye bakamurohamura niko kazi barimo.

Abasirikare b'abakobwa b'abanyarwandakazi bari mu myitozo ya gisirikare, bambaye imyenda ya gisirikare iriho ikirango cy'u Rwanda, idarapo y'u Rwanda, bambaye bote biragaragara ko ari abanyarwandakazi, bari mu myitozo rero ahabugenewe ku kigo cy'ishuri.

Muri Kontorore tekiniki bakoreragamo ibintu byo kureba imodoka niba zifite ibibazo. Niba zifite ibibazo bakavaho bakaja kubikuzaho bakaja kuzikoresha. Rero niko kamaro ka kontorore tekiniki, ni ikigo ca polisi kibikoraga.

Kamera ni igikoresho cyabugenewe cyo gufata amashusho, haba mu muhanda zirakoreshwa, haba mu nzu z'abantu zirakoreshwa, zigufasha kumenya amakuru y'ibyatambutse udahari. Ndetse bikagufasha no kwirindira umutekano. Izo mu muhanda zifasha abapolisi kurinda umutekano w'ibinyabiziga.

Kamera yo mumuhanda ni igikoresho gishinzwe gufata ibinyabiziga byose biri kugendera ku muvuduko gwo hejuru. Iyo biri ku muvuduko gwo hejuru, irabifotoraga bakabihana.

Ubwato bwa polisi y'u Rwanda, bw'abapolisi bakoreraga mu mazi abo bitaga ba marine, buri mu kiyaga ca caba ca rake kivu ariko mu karere ka Karongi.

Afande Gasana wa Polisi ari imbere y'abapolisi n'abasirikare, ari kubagira inama ari kubakoresha inama, ndetse hariho n'abandi bantu bari imbere yabo bari kuganira.

Mu muhanda polisi ahagaze mu muhanda ateye imodoka n'amamoto umugongo, mubigaragara ari kwambutsa abana cangwa abantu bakuru kugira ngo ziriya modoka ziri inyuma, na ziriya moto ziri inyuma zitabagonga.

Inkongi y'umuriro yabaye inzu iri gusha yakongotse, umuporisi wabugenewe yazanye kizimyamoto. Ni icyuma kizimya umuriro iyo habayeho ikibazo cyo gutwika cyangwa cyo gushakaga ahetse kizimyamoto yabugenewe bari kuzimya.

Afande w'umupolisi yakoresheje inama abamotari, abanyonzi, ari kubabwira ku bijyanye n'umutekano wo mu muhanda, akababwira ko intego ari ukugerayo amahoro. Bakagenda bitonze, bareba neza, batagonga abantu cyangwa ngo bo bagongane bakagera yo amahoro.

Ubwato buri mu kiyaga ca Kivu bubiri bwose buri mo abantu, ubu bw'imbere hari kuvamo umuntu aciye ku mutwe w'ubwato imbere agiye gusimbukira mu mazi, n'ubwa kabiri ni uko hariho umuntu ugiye gusimbukira mu mazi buri mu kiyaga hagati.

Abantu bari mu kirori. Bari kunywa ibyo kunywa bitandukanye barishimye bari guhoberarana. Biragaragara ko ari umunezero koko.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe ari benshi, biragaragara ko bari mu nama cangwa iki kintu cobitabiriye, ariko uburyo bicayemo biragaragarako bari mu inama.

Ababyeyi barizihiwe bari kubyina imbyino za kinyarwanda bateze amaboko neza, biragaragara ko bari mukirori ariko ikirori kiri hafi aho murugo, hari abana bari gushungera batanambaye neza.

Abanyeshuri bambaye iby'umweru bari kubyina intore. Bambaye imigara, barimo kuririmba, abandi barimo kubyina bari imbere y'ikigo k'ishuri. Abenyeshuri bo mu mashuri yisumbuye.

Intore ziri kubyina ziri kuvuna umugara, zambaye amayoge, zambaye umugara zifite ingabo n'amacu. Ziraberewe cane zambaye umwenda wabugenewe wo kubyinana. Ni ab'umuco nyarwanda. Intore n'izo mu muco wo mu Rwanda.

I Nyanza mu Rukari ni inzu ndangamurage y'umwami iherereye mu Karere ka Huye, abantu bashaka bajaga kuyisura. Ari abazungu baturutse mu bihugu byo hanze, ari abibura babaga mu Rwanda, bajagayo bagiye gusura ibikoresho bya kera abami bakoreshaga.

Umurima gw'amabuye harimo umuntu uri kugamenagura akoresheje igikoresho bitaga inyundo, aga mabuye ntabwo ari gamwe bitaga amakoro ahubwo gano bagitaga amasarabwayi, iyo amaze kugamenagura amaze kugakoramo amagaraviye, bagasukaga mu mbuga ugasanga imbuga yabaye nziza.

Intorehe ziri guhamiriza zifite amayogi mu maguru. Zifite icumu n'ingabo mu ntoki, mu mutwe zambaye umugara. Nk'ibisanzwe zambaye imyenda yabugenewe yo kubyinisha intore. Biragaragara ko bari ahantu bitoreza imyitozo, hari akazu k'ibyatsi.

Uruho ni igikoresho abantu ba kera bakoreshaga kuko nibyo byabaga bihari, bigereranywa n'igikombe c'uyu munsi n'ikirahuri c'uyu munsi. Kuruyweramo rero kugira ngo utereke wiyambazaga akadobo gahagaze ugaterekamo cangwa isafuriya, rero aba bagabo nico bari gukoresha.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino za kinyarwanda. Hari abari gukubita ingoma ibyo bita gukoma ingoma. Hari abari kubaririmbira, abandi bakabyina.

Ibyansi n'ibisabo birateretse, bifite n'imitemere rwose, biragaragara ko biteretsemo amata.

Umugore ukenyeye umukenyero yambaye umukenyero. Umukenyero ni umwenda w'abanyarwanda kazi. Nkuko abakongomani bagira umwenda wabo w'igitenge abanyarwandakazi nabo umwenda gwabo ni umukenyero. Bagwambara mu bukwe ndetse no mu bindi birori ibyo ari byo byose.

Ababyinnyi b'abakobwa bari kubyina bateruye ibisabo mu ntoki. Ibisabo byakorwaga, akazi kabyo kabaga ari ugacundiramo amata. Barakamaga, bagashiramo amata, bagacunda cyera. Ariko ubu, ibiseke bisigaye ari iby'umuhango.

Inkangara n'uducuma turimo imiseke n'inyegamo nziza zikozwe mu mabara g'umukara n'tu n'ubusunyu, biraryamye byose bimeze neza ,inyegamo zari rido za kera.

Ibiryo bya kinyarwanda umutsima gw'amasaka guri mukebo n'uguburo byose biri mukeba hariho n'ugwibigori hari myumbati hari amateke ibihaza ibiryo byose bya kinyarwanda bimwe bikoreshwaga ku munsi gw'umuganura birahari

Igikoresho bita umuduri. Ni gikoresho bakoresha bari gucuranga cane cane indirimbo za kinyarwanda. Uba ukozwe nk'umuheto. Uba ukozwe nk'umuheto wa kinyarwanda barashishagara, ariko hariho n'akantu kameze nk'agacuma bicurangagaca.

Mize ni inzu ibikwamo ibikoresho byakoreshwaga kera, iherereye mu Karere ka Huye, ibitse amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umugore yicaye ku birago ararambirije, ari gukora imitako itandukanye mu byatsi byitwa ubusuni. Ubusuni ni ibyatsi bikorwamo ibirago, inyegamo ndetse n'imitako itandukanye. Ni byo uyu mugore turi kureba arimo gukora.

Imbehe ni igikoresho abakera bakoreshaga nk'isahani y'ubu, keretse kuyigira umutako nuko ugwo mutako gukorwaga mu byatsi, ibyatsi n'ubundi bimeze nk'ibyo bakoragamo ikirago bagatwikira bakoresheje n'ibirere byumye.

Umuntu ari mu murima yakoze runonko, ni yo ari gucanamo, runonko rero abantu babaga bari mu murima bakotsamo ibirayi, bakotsamo ibigori, bigasha neza cane. N'iyo ni runonko, uri kubona ko ifite umuriro uri kwaka neza, buriya afite ibyo yokejemo. Ibyo baryaga mu mi...

Ibirago kera byabohwaga n'abakobwa n'abagore, cane cane abakobwa bagiye gushingirwa kugira ngo babone ico baha nyirabukwe ndetse n'ico bazajana, bakaboha n'inyegamo zo kumanika mu nzu, ari zo twahinduye amarido g'ubu. Umukobwa yari yatanze ikirago kibohwaga mu busuna, ibaze gutondera imigozi nk'itanu.

Umugore ari gucunda afite igisabo, imbere ye aho yicaye n'inkongoro ibiri ari gucunda nkuko byahoze kera, igisabo cyacundirwagamo amata inkongoro zanywerwagamo amata.

Inkongoro ni igikoresho kera bakoreshaga bari gukama inka, bagakamiramo amata icyo bitaga icyansi. Ubu rero hari ibyansi by'ibyuma, ariko kera iki ni cyo cyari icyansi ariyo nkongoro.

Ibirago birambitse ku kabati kabugenewe ko kwanikaho amasahani barambuyeho ibirago baterekaho uducuma, inzuho, inkangara n'ibisabo ndetse n'inkoko, mbese ibikoresho byose byakoreshwaga kera.

Abakera intwaro bakoreshaga yari umwambi n'umuheto, icumu n'umuhoro wa kinyarwanda. Rero uyu nguyu ari gukoresha umuheto n'umwambi.

Cyusa ni umusore w'umunyarwanda ubyinaga imbyino gakondo, uri kubona ko ari kubyina rwose akenyeye yambaye imyenda yabugenewe y'ababyinnyi, ba kinyarwanda arabereye cane azi no kuririmba cane.

Uduseke n'imitemeri yatwo duhagaze baduteretse ahantu. Uduseke dukozwe mu mabara gatandukanye ndetse gano mabara gakoze muri utu duseke bagakoreshaga ibirere by'umye.

Icyijyega ni igikoresho cabugenewe co guhunika, wasaruraga ibigori ugasukamo, wasarura ibishimbo, ugasukamo, ariko ibishimbo byo babishiragamo bidahuye, ibyabaga bihuye babishiraga m'umutiba. Kino ni igisenge rero cy'icyijyega, n'amasaka gose bahunikagamo.

Abakobwa ba kera bari bogoshe amasunzu, nizo nyogosho zabo zari zigezweho, nizo zigereranywa no gusuka no kudefiriza ndetse no kogosha amakwafe. Na bo bogoshaga amasunzu ukabona baraberewe kuko gwari umuco gwacu, bafite uduseke.

Umugore w'umwami kerabaga, yambayeringa yuzuye ukuboko, yambaye urunigi yabatandukanye n'abana.

Inka nyinshi ziri mu muhanda zivuye mu musozi bigaragara ko zivuye kurisha ziri kwerekeza mu muhanda zisa n'izigiye gushoka inka zasohokaga zinganara gutya zabaga zigiye gushoka.

Urusyo ni igikoresho aba kera bifashishaga, nico cari kimeze nk'icuma co kubetesha n'uyu munsi. Rero ushiraho amasaka, ugashiraho n'ingasire hejuru, ugasya ifu ikaboneka, niba ushaka umusururu, niba ushaka igikoma ukabikora.

Izi ni intore, ziri guhamiriza. Zifite amacumu, zifite ingabo, ziteze n'imigara. Ziri guhamiriza ahantu, bigaragara ko zifite ahantu, abantu bo ziri kubyinira.

Isekuru ni igikoresho umuntu yifashisha ari gusekura. Ushobora gusekura ifu ushobora gusekura ifu y'ubugari, ushobora gusekura isombe, ushobora gusekura tungurusumu, ushobora gusekura umuti w'ibyatsi. Ni igikoresho umuntu akoresha yifashishije umuhi.

Umwana w'umukobwa ari gusekura ibigori. Ibigori byo binitse bibaga bimeze nk'ibyoroshe, ari kubisekura mu isekuru rero akoresheje isekuru n'umuhini, biranoga akabiyungurura mu kayunguruzo kavamira.

Ibirago, ibirago babibohaga mu byatsi byitwa ibusunu, ubusunu ni ubwatsi bumera mu mazi atemba ,aho ni mugishanga, baje kubicuruza ,aha hari ibirago kuko abaje kubicuruza.

Abantu babana n'ubumuga na bo ni abantu nk'abandi, dukwiriye kubirengagiza cangwa kubafata nabi. Uyu mugabo akeneye ubufasha ahagaze ku mbago ibiri, abonye insimburangingo na byo byaba ari byiza. Kandi Igihugu cacu carabyoroheje babishize kuri mituweli.

Icyansi cangwa inkongoro n'igikoresho bakoreshaga bari gukama inka bagashiramo amata, rero hari igihe casazaga kigasatagurika, iyo casatagurikaga bashiragamo utu twuma bakatwita ngo ni ikiraka, iki rero ni inkongoro ikoreshwa mu gukama cangwa kunywa amata.

Itorero ry'ababyinnyi babyina imbyino za kinyarwanda. bari kubyina mu bukwe ,bakenyeye imikenye rwose, igaragaza ko bari kubyinira umugeni.

Umugore uri kugosora ibigori ,akoresheje intara afite n'umufuka gwari kubishyiramo, buri ruhande ari kugosorera imbere y'inzu ye, mu muhanda guri imbere y'inzu.

Igitebo ni igikoresho bakoreshaga kera, ariko n'ubu turagikoresha bagishyiramo ibyo kujyana ku isoko nk' ibijumba, nk'amateke, n'ibindi. Iyo ni ingata rero bacyikorezaga bari ku kijyana ku isoko.

Icansi mu buzima busanzwe, inkongoro ni igikoresho bakoresha bari gukamika ukagikoresha uri kunywa amata ndetse ukanagikoresha uyatetse.

Izi ni imigina z'ibihunnyo ibihunnyo n'imboga ziryohaga cane, hari ibihunnyo byo bahingaga hariho n'ibyimezaga ariko biraryoha bigiraga vitamine nyinshi cane.

Umusaza yicaye ku birago ararambirije mu nzu. Hashasheho ibirago byinshi cane, kera ni byo bicaragaho. Bicaraga ku birago ndetse aga mabara gabyo banagakoreshaga bari gukora inyegamo. Inyegamo na zo ni amariguza za kera.

Abageni ba kera rero ntabwo bagendaga mu modoka, uhuwo bagendaga n'ingobyi bakayijisha n'umusore arimo, akayigenda imbere nawe akayijisha, cyangwa ari ukuyikorera umugeni akicaramo bakagenda bamuhetse, babyitaga guheka. Ubwo rero ni ubukwe bwa kera bwagendagamo uw'umukire, naho umukene yagendaga na'maguru.

Umuhanzi w'umukobwa n'umuhungu bari gucuranga. Umwe ari gucuranga inanga undi afite na mikoro imbere ye, undi na we afite mikoro imbere ye bari gucuranga. Bakaba bari gucuranga imbere y 'abantu bari kubareba. Mu cyerekezo barimo uri kubona ko bahari.

Ababyinnyi bari kubyina indirimbo za kinyarwanda bateze neza, bateze amaboko neza biragaragaraga ko bari kubyina mu bukwe cangwa ikindi kirori kubera ko hariho ishitingi irimo na tente bateguyemo, biragaragara ko ari mu kirori.

Intore zambaye amayogi, zambaye imigara mu mutwe, zifite ingabo n'amacumu, nibyo biranga intore. Ziri kubyina mu bukwe, mu bigaragara ziri kubyina mu kirori, ziri kubyinira hanze mu busitani bwabugenewe.

Abantu bari kwenga umutobe mu mineke, barikuwengera mu muvure harimo n'umuzungu wambaye ingofero n'agafukamunwa.

Agaseke kagizwe n'amabara y'umukara n'umweru, gapfundikiye. Baravuga ngo:"Agapfundikiye gateraga amatsiko." Kadapfunduwe ntawamenya ikiri muri kano gaseke. Rero kaduteye amatsiko kuko karapfundikiye.

Ugo ni umutiba gw'inzuki iyo ugiye kugwagika mu biti cangwa ahandi hantu hose hakundaga kuza inzuki gujagamo inzuki zigateramo ubuki ugasubirayo ugiye guhakura ubuki buraryohaga cyane.

Mu rukari iyanza hahoze ari mu rugo rw'umwami, hahoraga abantu hahoraga urujya n'uruza rw'abantu hari abaje gusura, ndetse nabaje gukora imirimo igiye itandukanye.

Umutiba ni igikoresho abakera bifashishaga mu guhunika. Bamaraga guhura bakagosora, bamara kugosora bakabihunika mu mutiba. Umutiba cari igikoresho gikozwe mu migano, bagihomeshaga amase, kugira ngo imyaka ye kunyura mu bipfumure by'imigano.

Abagabo babiri bicaye ku ntango y'ikibindi bari kunywa amibete ibi birere barakenyeye imyenda ya kinyarwanda y'imikenyero bambaye inigi mu ijosi barikunywa barizihiwe ibi dukundaga kubikora ku munsi w'umuganura.

Intore zirimo kubyina ziragaragaza umunezero, zifite ibikoresho byabugenewe nk'izindi zose, zifite umugara mu mutwe, icumu n'ingabo mu ntoki, amayugi ku maguru, nk'ibisanzwe ibiranga intore ni ibi.

Itorero rigizwe n'abahungu n'abakobwa riri kubyina imbyino za kinyarwanda zikoresheje gukoma ingoma, harimo abaririmbyi, harimo ababyina ,harimo abari gukoma ingoma bari mu bintu bitandukanye bari kubyina rero bari kwitoza.

Intore enye ndetse n'abaririmbyi babiri barimo no gukoma ingoma intore rwose zirimo kubyina zifite amacumu zambaye imigara ziri kubyinira ahantu imbere ya hoteri ni mu kinigi ni kwa muvunyi.

Ni urusyo n'ingasire, hariho icyibo n'inkoko iri kujyaho ifu baba bamaze gusya, urusyo rushyigikiwe n'amabuye, inyuma hariho ikirago cyo gupfukamaho umuntu ari gusya, noneho n'imbere hariho akarago ko guterekaho ahantu ho kujya ifu.

Umuvure rero ni igikoresho kera bakoreshaga bari gukama ibitoki， bagwitaga umuvure cyangwa umuzinga. Iyo bakamiragamo ibitoki byararetaga bikazana umutobe，umutobe rero bakaguhongera gukavamo inzoga. Uyu mugabo nibwo....

Inzu ya nyakatsi ni inzu zari ziriho kera mu Rwanda ndetse n'ahandi n'inyuma y'u Rwanda ugiyeyo wayibona, ariko mu Rwanda ubu ng'ubu zabaye amateka, ntabwo zikibaho. Ubu ng'ubu twubakishije amabati ariko kera ni izi nzu twabagamo, zabaga zubakishijwe ibirere cyangwa ibikenyeri.

Dekoderi iri ku meza iteretse ku meza. Icometse kuri raronje cangwa militipurize niko bazitaga, indimi z'amahanga kinyarwanda. Ni ahantu imigozi ihuriye myinshi iturutse kuri dekoderi.

Aka gakoresho bagakoreshaga bari gucomeka ibikoresho bya elegitoronike, televisiyo, telefone n'ibindi. Bagakoreshaga rero hi....

Ni imashini bakoreshaga bari gutanga umuriro g'amashanyarazi yitwa genereta. Bayikoreshaga mugihe amashanyarazi ga rege gabuze. Ni imashini yababugene.

Terefone zakoreshwaga kera, zitava aho ziri zabaga mu nzu gusa. Zitwaga figisi, mbere mobayiro zitari zaza, mobayiro ni zino terefone tugendana. Izi ni zo zahoze zikora.

Inzu yubakishijwe amatafari gahiye n' mategura， ariko uri kubona ko iri mu caro. Ntabwo imeze neza kubera ko iri ahantu hitaruye yonyine， nta yindi nzu bituranye，n'umuntu uyirimo，uri kubona ko atishoboye.

Inzu y'ibiro bya Efupere inkotanyi ifiteho idarapo rya Efupere n'ikirango kikiri ku nzu, haparitse imodoka aho mu mbuga, haturiye umuhanda, ni hafi y'umuhanda. Rero Efupere inkotanyi ni umuryango w'abanyarwanda waharaniye kera kuzana amahoro y'abanyarwanda.

Ikiraro gisha kiri gukorwa n'abakozi bari kugikora baracahari, kiri guhuza imirenge ibiri mu buryo bw'ubuhahirane, ndetse n'imodoka zija mu mirenge itandukanye zikakinyuraho.

Ikigo cy'ishuri cya segonderi cy'amashuri gisumbuye abanyeshuri baho bambaraga kake hasi, imyeru hejuru ni ikigo ca Gurupe sikorere ya mbere ya Muhoze ya mbere na co giherereye mu Karere ka Musanze mu muji hariya iruhande rw'urusengero rwa Adeperi.

Umusigiti w'abayisilamu uba uriho icyapa c'ukwezi ic'inyenyeri nibyo birango bigaragaza umusigiti. Mu bigaragara umusigi ntago bari batangira gusengeramo kuko nta birenge bijayo, uracari musha nibwo bari kuwubaka, uri mu gipangu.

Ni inzu ifite amabati g'ubururu mu mbuga yaho ni igitaka . Iyo mbuga irunzemo ibishogoshogo . Ibishogoshogo byo bahuye. Ibishobashogo ni ibyatsi abahura bari gukuramo ibishimbo.

Kiriziya ni inzu yabugenewe yo gusengeramo， yinjirwamo n'abantu b' Imana bumva bafite inzara n'inyota byo gusenga, bitavuze ko n'abadafite gahunda yo gusenga batinjiramo， ariko kiriziya ubwayo ni inzu y'Imana， kiriziya ya Kabgayi.

Umuhanda gw'igitaka uri kubona ko ari mushasha gutari gwamenyereza ibirenge, wubatsweho umudugudu gufite amazu gasa, imiryango zirasa zitewe irange rya shokora n'akarange k'umuhondo n'amabati gafite ibara ry'umutuku, biragaragara ko ari umudugudu guhubatse.

Ikiraro cyo mu kirere abantu bakirimo bari hejuru, abandi bari hasi munsi yacyo, hari gucamo amazi munsi, ni ikiraro cyubakishijwe senyenge, gifiteho n'ibyuma byo gufatiriza abantu barimo bagifatijeho, munsi yacyo hari ibiti.

Ishuri rya Arapiyarasi Musanze ni kaminuza iherereye ahantu bita Nyakinama, hafi ya Karasike hoteli. Ni ishuri ryigisha imyuga yose ryubatse mu Karere ka Musanze, mu nkengero z'umujyi.

Mu kiriziya mwo imbere harimo amashusho atandukanye, aya Yezu aya bikira mariya. Harimo intebe harimo ibitambaro biteguye hafite isuku. Hahorana isuku kubera ko ni mu nzu y'Imana hameze neza.

Urusengero rufite amabati g'umutuku, rufite umusaraba imbere, rukozwe n'ikimenyetso cy'umusaraba g'amabara, ruri ahantu hateretse mu kibaya, imbere yaho hari utwatsi dushashe neza, biragaragara ko ari urw'abarokore.

Gereza ya Musanze yubatswe mu gihumbi kimwe maganacenda na mirongo itatu na gatanu. Iherereye mu mujyi wa Musanze haruguru y'ibitaro bya Ruhengeri. Iyo ukomeje ugera ahari arayesiyesibi ndetse n'ahitwa ku magare.

Urusengero gwubatse kijambere rufite imbuga ifitemo umuhanda gugezeho, ubwatsi bwiza abakiritu bicaraga basohotse. Gubakishijwe amabati g'umutuku, n'amadirisha umuryango g'icatsi icatsi.

Ibiro by'umurenge wa Busogo biherereye mu karere ka Musanze. Uba urenze Kimonyi, urenze Gataraga niho ibiro biherereye.

Izi ni imidugudu Leta yubatse kugira ngo abaturage bari batuye mu manegeka bagavemo, baze bature ahantu hazima hatari mu bibazo byubu by'amanegeka, rero izo nzu bazitaga tu iniwane, abaga ari imwe ariko irimo ibice bitandukanyije abantu.

Kiliziya ya Rwamagana abantu baje kuhasengera bateraniye hanze, bamwe bahagaze hanze abandi bahagaze muri tente, ibigaragara misa yabereye hanze.

Ugu ni umunara guteretse ahantu hafi y'umuhanda, hirya yago hariho amazu. Ariko ugu munara nta nsinga ziriho ugu munara gwagenewe kumvikanisha amajwi. Yaba aga emutiyene yaba aga eyateri, niko kamaro g'umunara.

Abantu batishoboye bahabwa inkunga batonze umurongo bategereje inkunga yabo, hari abamaze kuyibona, hari abatarayibona, ariko bose igomba kubageraho. Leta yacu y'u Rwanda rero nicyo kintu ikora yita ku bantu batishoboye ngo nabo bagire uko babaho.

Abaturage bari mu nama, imbere yabo hari umuyobozi. N'ubwo atari kugaragara, ariko biragaragara ko hari umuntu uri kuboha ibwiriza, uri kubayobora mu nama, uwo bateze amatwi ndetse bari kureba. Hari abicaye, hari abahagaze cyangwa se bitabiye.

Abaturage bari mu nama bakurikiye umuyobozi barimo kumukomera amashi, ari imbere yabo bamukurikiye amatwi, bari ku mutega amatwi, ndetse n'amaso barayamuhanze.

Ni umugore uhagaze imbere y'abantu, bari bicaranye nabo bari mu nama mu bigaragara, aje gutanga igitekerezo cye, abandi bamuteze amatwi yambaye igitambaro cy'umukara , yambaye n'umwenda urimo umuhondo afashe mikoro.

Imodoka za janse yari litiko ziraparitse ari nyinshi, abantu bari kwinjira nta n'abari gusohoka, ahubwo hari abazihagaze imbere.

Imodoka z'ibikamyo zihuriye mu muhanda zirabisikana， imwe iri kumanuka iyindi ikazamuka，iyi inteye umugongo irikoreye， ifunguye inyuma, iyi turi kurebana nayo irikoreye ariko irafunze inyuma.

Jari tarasipoti ni imodoka z'umuyobozi wa gare ya musanze witwa dodo zikorera i musanze zigakorera i rubavu rero aha murimo kubona ni muri gare ya musanze imodoka zirimo gusohoka muri gare

Abantu bahagaze ku muhanda mu muryango gwa wa botike, botike icuruza ibintu bitandukanye ,umugore uhari ari ku igare ahagaze ku kirenge cy'igare ,ahetse ibitebo bibiri bigerekeranye hari n'undi uri inyuma yabo ufite imishogoro ku mutwe.

Gare ya nyabugogo ni i kigali haparika imodoka zijyamu zija mu ntara zitandukanye i valkana niho iparitse ni muri nyabugogo i kigali. Bahari abantu b'uruja n'uruza barikuja muntara hija no hino. rero hahora abantu benshi cane.

Iyi modoka ya shira umuteto, itwawe n'umushoferi wicaranye n'umugenzi w'umugore. Imbere yaho, uyu mugenzi ari gukora kuri ka kuma bakozagaho tapandigo, bari kwishura amafaranga g'urugendo. Iri mu muhanda, iri kugenda.

Imodoka ibiri zihagaze muri gare ariko nta bantu barimo zitwa shira umuteto. Izina ryazo bwite zitwa yutongo. Nta bantu bari kwinjira nta n'abari gusohoka, ziparitse gusa muri gare.

Ni tagisi iri gusohoka muri gare ya Rubavu, iri gusohoka mu marembo ya gare iri kwinjira mu muhanda munini n'igare riri kugenda mu mahanda, harimo umushoferi ikigaragara nta bagenzi bari bajyamo.

Imodoka ipakiye imifuka, imifuka zirafunze ntabwo wamenya igifunzemo. Imodoka iri kugenda ifite ibara ry'ubururu n'iry'umweru.

mu marembo manini ga gare ya Rubavu harimo imodoka iri kwinjira, iriho amagare na mato ndetse n'abantu bari kugenda ku ruhande. Umuhanda gwaho ni igitaka...

Lifani ni moto ifite aho gushira imizigo habugenewe inyuma yaho motari yicara, ifite amapine atatu, itwara imizigo ndetse ibintu bitwawe na pikapu nayo irabitwara.

Rivane itwawe n'umukobwa. Umukobwa utwaraga rivane ayitwariraga mu Karere ka Musanze mu mugi. Rero biragaragara ko rwose ashoboye Kandi,...

Ni amagare abiri yagenewe gutwara imitwaro, rimwe ryicayeho umugabo ripakiye amajerekani y'umuhondo afite imifuniko y'umutuku. iryo umugore yicayeho ripakiye ibikarito nta mizigo ipakiyemo. Umugabo yambaye umupira nw'uturongo dutandukanye.

Imodoka yashirumuteto iri muri gare abantu batondetse umurongo bagiye kwinjiramo izi modoka zibaga i Kigali zitwa shirumuteto.

Abantu bari muri gare hatondetse imirongo ya kwinjira mu modoka ziri kuja ahantu hatandukanye. Buri modoka iparitse mu murongo wayo, mu mukono gwayo abantu bari kwinjira.

Imodoka yitwa Onatarakome niyo modoka yari ihari kera yatwaraga abantu benshi cane, izindi zari mini bisi utu dutagisi dutoya, yo yari ifite ibara ry'icatsi nk'uko muri kureba y'ino.

Imodoka ya volukano ni bisi nini cane. Iparitse muri sitade ahantu abana bari guhagurukira bari kuja mu biruhuko. Bambaye iniforume, n'iyo bari gutaha bagendaga bambaye iniforume kugirango bagereyo. N'ubundi bagendaga nk'abanyeshuri.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zihetse abantu, taxi zitandukanye, taxi vuwatire, imodoka nyinshi zitandukanye. Bigaragara ko ari muri gare, n'izi ziri mu muhanda niho zari ziri.

Umugore utwara rifani ayicayeho umunyamakuru yamutunze mikoro, ari kumubaza uburyo atwara rifani ari umugore niba bimworohera, ariko nta kidasanzwe apfa kuba ari muzima.

Kebise ni bisi ziba mu muji wa kigali ni ndende cane. Zigendagamo abatu benshi, rero kubera ibagamo abantu benshi, bazita shira umuteto, kubera ko abantu babaga basize imodoka zabo bakaza bakinjiramo ngo bihute.

Imodoka ya tagisi iri mu muhanda, igizwe n'amabara gicatsi n'agumweru ifite n'agatanda k'ibyuma hejuruko bitaga porute bagaje ni ako batwaragaho imitwaro z'abagenzi, iri mu muhanda iri mu cyerekezo c'urugendo.

Gare yo mu muji wa Kigali hatondetsemo abantu benshi ku murongo bari kwinjira mu modoka kugira ngo zibacure mu cerekezo buri wese aba atashemo mu ntara zitandukanye, hariho abicaye mu tuzu twabugenewe twitwa arete bategereje, hariho n'abandi bari kwinjira mu modoka n'abandi batagiye kwinjira n'uruja n'uruza rw'abantu.

RFTC ni imodoka za koperative y'abashoferi ikorera muri Musanze y'Iburengerazuba, i Rubavu. Iri mu muhanda rero ifite abagenzi iri gutwara.

Ritiko ni imodoka ndende cane yicaragamo abantu bageze kuri mirongo itandatu, kuri mirongo itandatu barenga ihagaze muri gare ziri kumungo gumwe zibaga zifite ibara ry'icyatsi n'iry umweru n'ubururu zigenda mu ntara hose.

Vorukano ni imodoka za kwasiteri，zijagamo abantu makumyabiri n’icenda， zihagurutse ku nzu yazo y’aho ziba ziri， zerekeje mu mu handa， ariko nta bagenzi barimo ，bigaragara ko zivuye aho ziparikwaga， ahubwo zigiye gukora akazi，zigiye kuba muri igare gushakisha abagenzi.

Rifani ni moto igizwe n'amapine ane, ikoreshwa mu gihe bari gutwara imizigo, imitwaro, ni igikoresho gitwara ibintu byinshi cyane, ndetse iba ifite n'umuntu uri kuyitwara, imbere hagenda umushoferi wayo, nyuma hakagenda....

Imodoka za rukururana zimwe zipakiye n'izindi zidapakiye, iziri kugenda n'izindi zihagaze byose biri mu muhanda gumwe gwa kaburimbo. Hariho izipakiye zitari kugenda, hariho izipakiye ziri kugenda. Izindi zirahagaze.

Abakinnyi bakina umukino rw'amagare baka rw'amarushanwa y'amagare. Buri gihugu gifite ibendera ryaco. Harimo n'umuyarwanda ufite ibendera ry'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye. Ku magare bari kugenda mu muhanda.

Imodoka yagenewe gutwara amazutu cyangwa esansee bikoreshwa mugutwara mukugira ibinyabiziga bigende. Yaba imodoka, yaba moto barabyifashisha.

Moto zikoreshwa bateri zatangiye gukoreshwa mu mujyi wa kigali ahandi mu ntara ntizirahagera, ariko i Kigali n'izo zikora moto zitari za moto zidakoresha bateri ubu ngubu rwose muri kigali ni nkeya cyane.

Abantu bari mu bwato buri mu kiyaga imbere ku mutwe w'ubwo bwato hari umuntu uri kubuyobora, bambaye amajire, amajire gatuma batarohama. Niyo ubwato bwarohama abantu iyo bambaye amajire ntabwo bibiraga ngo bagereyo hasi.

Umuhanda uva mu mugi uja mu Kinigi uherereye aho bitaga Kamuhoza. Ubu hari ishuri rya Muhabura poritekinike, ndetse n'ikigo ca Pikire. Rero Ugo ni umuhanda guri kwerekeza mu Kinigi.

Umugabo utwaye igare afite n'agafuka inyuma ku ntebe y'igare, ari mu handa gw'igitaka, hepfo hari ishyamba, inyuma ye hariho amazu menshi, ni umuhanda w'igitaka, bigaragara ko ari mushya.

Gare ya Kiramuruzi ni ahantu imodoka ziparika zitegereje abagenzi abinjira, ndetse n'abasohoka bajya mu ntara zitandukanye. Aya ni amarembo yayo manini, ayinjira n'asohoka.

Abakinnyi b'abasore b'amarushanwa g'amagare, bambaye iniforume yabo yabigenewe, yanditseho idarapo ry'u Rwanda. Biragaragara ko ari Abanyarwanda, biteguye guhaguruka beherekeza mu marushanwa.

Umukinnyi wa tenisi ari mu kibuga afashe paniye mu ntoki. Paniye ni agakoresho kabugenewe kariya bateresha agatenesi, ari mu kibuga cyabugenewe umuntu uri gufanale dupfana nawe waje kubakira hejuru y'ururyodo ku muntu ureba uriya ari gukinana.

Ibikombe by'umupira bitangwa iyo hakinwe umupira w'amaguru cyangwa uwo ariwo wose ari umukino, iyo utsinze uwo mu kino ugomba kubona igikombe. Rero ibi ni ibikombe bitangwa kubera ko habonetse intsinzi runaka.

Amarushanwa g'amagare gari gukorwa n'abakobwa, ugwo mukino gwitabiriwe n'abantu benshi bari gwukureba, abazungu n'abirabura, bari kugendera mu muhanda gwutsindagiye mo umucanga, gwutari gwashigwamo kaburimbo.

Umusore w'umukinnyi w'umupira w'umunyarwanda jeziye irabigaragaza ni umunyarwandara. Yambaye idarapo y'igihugu cy'u Rwanda ari mu kibuga, yiteguye gutera umupira afite nabo arigukina nabo nubwo tutabareba . Ariko urabona ko atari gukina wenyine hari abo arikureba bategereje guheza umupira.

Abana b'abahungu bari mu marushanwa go kwiruka bari kwirukankira imbere y'Intare Arena ,mu kwirukanka rero habamo uwa mbere n'uwa nyuma, ubwo hariho aba mbere babiri abandi baracari inyuma ubwo rero uba uwa mbere niwe utwara igikombe.

Abakinnyi b'umupira gwa vale bari gukinira muri Biki arena cyangwa Beka arena. Ni inzu y'ibirori ikorerwagamo ibirori i Kigali, ni abakinnyi ba volebolo. Ni umukino gw'umupira gw'amaboko.

Abantu bari muri siporo，abahungu n'abakobwa barimo ibyiciro byambaye jezi zitandukanye，bambaye i z'umweru， hari abambaye z'ubururu bose bari kwerekeza mu muhanda， birukanka mu bigaragara bari mu marushanwa.

Abakinnyi ba vore, umupira w'amaboko, bari mu kibuga c'umupira gwabugenewe, bari kumwe n'umutoza wabo, ari kubatoza kwinjiza umupira mu gapaniye. Uri kubona ko bose bafite umwete, bose bari gutumbira agapaniye kugira ngo barebe uri bwinjizemo mbere.

Umusore ari mu myitozo ngororamubiri, iyo bita siporo. Ari kuyikorera mu mazi. Ari gukora umwitozo wo koga. Uwo mwitoza na wo ni umwe mu myitozo ngororamubiri. Kandi imyitozo y'umupira, iyo koga n'iyo kwiruka n'iyindi.

Abakinnyi b'umupira gw'amaguru bari gukina muri sitade, bambaye jezi imyenda yabakinnyi yabugenewe, harimo umwe uri gusimbukari mu kirere, abandi bari kumureba bayobewe ibyo ari byo, ariko buriya afite ikintu cyatumye asimbuka.

Umugabo ari muri siporo mu myitozo ngororamubiri. Ahitwa i Katari muri Doha mu mwaka gwa bibiri na cumi, atewe inkunga na samusange iki ni icapa kibigaragaza.

Ni umusore ukinaga umukino gwa vole. Yambaye jezi umwambaro gwabugenewe go gukinana, yakinaga umupira. Yambaye inkweto za supuresi z'umweru n'amasogisi y'umukara n'umweru agiye kwinjiza igitego mu gapaniye.

Pisine na mazi bogeragamo, gakundaga kuba gari kuri hoteli, ariko hariho naho bagagiraga mu rugo. Ariko hano, biragaragara kari kuri hoteli, gakikijwe n'indabo, zirimo ziri mu ma vaze, n’iziri ku dutebe. Ni heza cane.

Umwana w'umuhungu ari gukina tenisi. Ni umukino w'agatenesi bawukina bakoresheje agakoresho kitwa agapaniye. Ari mu kibuga cya tenisi, uri kubonako rwose aryohewe n'umikino.

Ni umukobwa wambaye ikabutura n'isengeri by'ubururu bifite ibara ry'idarapo ry'u Rwanda, Igihugu c'u Rwanda, yishize kano kantu ko bakinishaga agatenesi mu maso. Yambaye n'isaha ku kuboko n'amarineti mu maso n'agasheni mu josi.

Umukinnyi w'umukobwa uri kwinjira mu kibuga ari gusuhuza bagenzi be, nk'uko abakinnyi bose babigenza iyo bari kwinjira mu kibuga arabasuhuza. Na we rero ni byo ari gukora, mbere yuko umupira utangira. Abantu barahari, abayobozi barahari, bari ahantu habigenewe bagiye gukinira.

Abakinnyi b'abakobwa b'ikipe y'u Rwanda bari muri sitade bari gukina umupira, ndetse bari kwishimana na bagenzi babo bari kujya kuramukanya, bigaragara ko batsinze.

Umuzungu ari gukina agatenesi, afashe muntoki agapaniye karagakoresho kari gukinisha bakitaga agapaniye, agatenese kari kamucitse kagiyekugwa mu modoka kurwana no kukagarura.

Imodoka zabugenewe mu marushanwa ziri kurushanwa, ivumbi ryatumutse, abantu baje kuzireba ari benshi baparitse mu modoka bari kureba batitaye ku mucucu cyangwa umukungugu bayigeraho bazifitiye amatsiko umunsi.

Abakinnyi ba vole bari mu kibuga, umwe w'umukobwa ari gufata uw'umuhungu arimo kumubuza kujya kuja gutera mu gapaniye ari kurwanya yuko yamutsinda.

Amarushanwa gamagare abasore bagiyeho irushanwa barahagaze bariteguye buri wese yicaye ku gare rye umuyobozi wa gahunda ari kubaha gahunda y'ukuntu barahaguruka buri wese yiteguye guhaguruka ngo arushanwe arebe uzabona igikombe.

Abanyeshuri bari muri sitade bagiye gufana umupira bafite ikipe bagiye gufana, bari gukina umupira ikipe iri kwifotoza ntago yari yatangira gukora ,buri mukinnyi afashe umupira mu ntoki n'abaje ku bafana barahagaze bari bategerejeko umupira gutangira.

Abakobwa bari muri siporo yo kwirukanka, bari mumarushanwa go kwiruka bambaye imyenda yabugenewe, bari kwirukanka ahantu muri stade.

Umukobwa ukina tenisi, yambaye imyenda yabugenewe ya siporo, yambaye inkweto zabugenewe, afite paniye mu ntoki, panaye ni kariya gakoresho bakoresha bari gukinaga tenisi, rero ari no mu kibuga cya tenisi.

Amarushanwa y’amagare ari gukorerwa mu Rwanda, yitabiriwe n’ibihugu bitandukanye. Abanyamahanga b’abirabura, abazungu, bari mu muhanda berekeza. Ariko abashinzwe umutekano, polisi, ikumira abantu ngo bataja mu muhanda, kuko bose bafite amatsiko yo kureba uri bube uwa mbere.

Mu kibuga c'umupira harimo abana b'abasore bari gukina umupira. Biragaragara ko ari ama amazamu ya futubolo y'umukino w'amaguru, ariko umukinnyi umwe agufashe mu ntoki ari gushaka guteresha ukuboko. Bambaye jezi z'ubururu n'umu n'umuhondo ariko ugiye guteresha ukuboko, yambaye jezi y'umukara n'umweru.

Mu muhanda gwa kaburimbo bigaragara ko bwarii bwije butangiye kwijima, hatangiye kuza akijima harimo abagabo babiri bahagaze ,harimo n'abandi bari kugenda, ariko biragaragarako bwari bwije.